Ubutaka bwiza bwatunganirijwe guterwamo imbuto, kandi buhinzemo ingemwe z'ubwoko butandukanye, n'amamashini avomera, ukabona amazi hirya no hino, ajya ibumoso, ajya iburyo, ajya hepfo, ajya ruguru, ndetse n'ibihakikije.

Ubutaka buhinzwemo igihingwa cy'ibigori n'abari kugikorera. Bakibagarira, bagiteramo ifumbire, bacyanganyaho amababi ashaje. Bambaye imyenda itandukanye y'umutuku, y'umukara, y'ubururu, y'umweru.

Igihingwa cy'umwumbati kikiri gitoya kiri gukura gifite ibibabi by'icyatsi cyibisi ndetse n'uduti tw'umutuku kiri mu butaka bwiganjemo ibitaka, imicanga, ifumbire ndetse n'imizi y'ibiti impande zayo.

Ahagereranijwe umusaruro w'imbuto z'inanasi zimwe zihishiye cyane, izindi zigifite ibara ry'icyatsi, urujya n'uruza rw'abantu bamwe bahaha abandi bagurisha, biganjemo ab'igitsina gore n'ab'igitsina gabo bakeya.

Igihingwa cy'ikawa gifite umusaruro ushimishije, imbuto zihishiye, amababi y'icyatsi kibisi, gikunze kwinjiza amafaranga mu gihugu cy'u Rwanda kandi kigafatwa nk'igihingwa kizamura ubukungu bw'igihugu cyacu.

Ubutaka butunganije neza bukoreye isuku, burimo ibihingwa bitandukanye, birimo: imyumbati, ibishyimbo, insina zikiri ntoya zitaratangira kuzana ibitoki, ndetse n'umuntu ubuhagazemo wambaye imyenda isanzwe.

Ababyeyi bafite umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi ari byo intoryi. Bari mu murima baba basarura ibikomoka ku buhinzi.

Abanyeshuri bakije ibirundo bitwikirije ubwatsi bubisi, bambaye impuzankano z'amabara atandukanye n'inkweto za badaboda z'amabara atari amwe: ubururu, umweru, umukara oranje, umuhondo...

Abantu babiri b'igitsina gabo bagaragaza akamwenyu mu maso ubona ko bishimye, begereye umusaruro wabo w'igihingwa cy'ibirayi, bipakiye mu mifuka minini itanu myiza, ifite ibara ryiza ry'umweru ivangiye n'icyatsi.

Ahahinzwe inyanya zikiri ntoya zitaratangira kwera, hakikijwe n'urutoki na rwo ruteze, higanje ubutaka, ifumbire ku ruhande, umuhinzi uri gukorera imbuto azisasira, azibagarira.

Inzu yubakishije ibikoresho bikomeye birimo amabati, inkingi, ibyuma, irimo abakozi bari mu mirimo itandukanye abaterura imifuka irimo, abayikorera, abagenzura ibindi bintu biri ku ruhande ndetse n'abakurikirana...

Ikimera cyitwa igishita cyangwa se igihuru kivanzemo ubundi bwoko bw'ibimera butandukanye nk'intobo n'ibindi byatsi biribwa n'amatungo, bikikije inzu yubakishije umucanga ndetse n'isima, ikaba isakaje amategura ndetse n'imbaho ziyisakariye ku mpande.

Ubutaka butunganijwe burimo ibihingwa bitandukanye byiganjemo intsina, ibishyimbo; imisozi igaragara hakurya n'ibiti bigaragara ku rundi ruhande, ubihagazemo ubona ko yambaye imyambaro isanzwe ari yo...

Idegede, igihingwa gikungahaye ku myunyungugu; gifasha abageze mu za bukuru ndetse n'abakeneye kugira uruhu rufite itoto kumererwa neza, kandi rigafasha mu igogora ry'ibiryo, rikarinda abantu kugugarirwa.

Abantu benshi bahuriye hamwe ahari ibiti bya avoka bikiri bitoya bitaratangira kwera ariko byinshi, bamwe babikorera amasuku babibagarira kandi banganyaho amababi ashaje, abandi bitegereza uko bikorwa na bo babyigiraho.

Igihingwa cy'imboga dodo zishishe ziri mu karima k'igikoni kubabakishije ibiti n'imifuka, mu butaka bwiza cyane, zifasha mu kuvura indwara no kuzirinda cyane cyane, amaso n'izikomoka ku mirire mibi, nka bwacyi yumisha cyangwa se...

Uyu musaruro wibikomoka ku buhinzi byiganjemo imbuto arizo; amacunga, amatunda, imyembe, inanasi, umunzani bipimirwaho, imifuka bipakirwamo, ndetse biri mu nyubako isakaje amabati akomeye.

Urubuto rukiri rutoya rwitwa ipera rutaratangira kuzana imbuto, rufite amababi atohagiye, impande yarwo hari isima, yubatse imeneye beto, ndetse n'utwatsi twiza twa pasiparumu turukikije mu butaka.

Ubutaka bw'inombe burimo igihingwa cy'amatunda akiri matoya atari atukura, afite ibara ry'icyatsi kibisi, n'abahinzi barikikije bambaye imyenda y'amabara atandukanye, abahetse abana, abafite ibikoresho bikoreshwa mu buhinzi, abambaye..

Uruvange rw'ibyo kurya byiganjemo ibikomoka ku buhinzi, birimo karoti, intoryi, pavuro ndetse n'ibindi, birambuye kuri shitingi

Igihingwa cy'urusenda rutarera neza, rufite ibitumbwe byinshi, ibyamaze kwigira ijuru n'ibikiri uruyange, rusashije ibyatsi byumagaye hari umwijima n'urujorojoro rutagaragara.

Ahakusanyirijwe umusaruro w'ibikomoka ku bihingwa bitegereje kugurishwa, birimo: imbuto, amatunda, amacunga, imyembe, amapapayi; inyubako biteretsweho, imifuka bipakirwamo...

Umucuruzi watondetse ibicuruzwa bye ku buryo buboneye byiganjemo inyanya zihishiye zikoze imifungo, ibitunguru, ibibiriti, ubunyobwa, ibisuguti, amavuta yo guteka ndetse n'ibindi.

Ubutaka butunganijwe buteyemo ingemwe z'imbuto zisasiye neza, zifumbiye kandi ziri kwitabwaho, zikikijwe n'insina zisa icyatsi kibisi, kandi zifite ibyatsi bishaje munsi bizisasiye.

Ahantu heza higanje ibyatsi bitohagiye hatezwe n'ishingiro ryubakishije amabuye, isima, ndetse n'imicanga bikomeye, harimo ibyatsi by'ibihuru ndetse n'ibindi byatsi by'ubwoko butandukanye. Munsi yabyo hakaba umuhanda nyabagendwa.

Akabande gashashe neza karimo umugezi utemba, akayira nyabagendwa, ibihingwa by'ubwoko butandukanye buririmo imbuto, imboga, ibijumba, ahahinze hadateye ndetse n'ahamaze guterwa.

Umugezi utemba w’amazi, ukikijwe n’ubwoko butandukanye bw’ubwatsi bukunze kuribwa n’amatungo yo mu rugo, yaba manini cyangwa amato, ari yo inkoko, inka, ihene, intama, ingurube, ndetse n’ayandi yose arererwa mu rugo.

Ahakorerwa ubworozi bw'ingurube ikiri ntoya higanje umwanda w'ibisigazwa by'ibyo yariye ikabisagura n'ibyo yagiye icira, ikiraro cyubakishijwe ibiti n'imbaho z'imbabari ndetse naho inywera amazi ku manywa.

Amazu meza akorerwamo ubworozi bw'amatungo magufi ari yo inkwavu yubakishije imbaho, amabati n'utudirishya dutoya amatungo asohokeramo, abantu bari kuzimurika no kuzitegereza.

Korora ubworozi bw'ingurube zikiri ntoya, zifite ibara ry'umweru, zikiri umugana, higanje ibyatsi by'ibisigazwa ndetse n'ibyo ziriramo, inyubako isize sima yamaze kwandura, iba ishaje.

Ahororerwa amatungo arimo aya kijyambere ndetse n'amatungo asanzwe yambaye amaherena, ibiraro byubatse neza, ibiti bizirikwaho ihene z'amabara atandukanye ay'umweru, ay'umukara, ingurube, ibyatsi bikikije aho ziherereye...

Ibiraro byubakishije ibiti byumye kandi bikomeye, bisakaje amabati, birimo amatungo, inka zifite amabara atandukanye, hari iz'ikibamba, iz'igitare, hasi hasashe sima, ariko hari ama...

Ibiraro bigari birimo inka za kijyambere, zambaye amaherena y'umuhondo, byubakishije ibiti bikomeye bisakaje amabati meza cyane, hasi huzuye umwanda w'ibyo zaneye ndetse n'ibyo zasigaje zirya.

Umubyeyi w'igitsina gore uri kumwe n'abana babiri, uwambaye imyenda y'ibara ry'ubururu bucuyutse, ndetse n'undi mutoya, amatungo magufi ariyo inkoko eshatu, ziri kugaburirwa, inzu y'amatafari y'ibyondo.

Ahororerwa ingurube higanje umwanda n'ibishingwe, ikiriramo kirimo ibisigazwa, ingurube ifite ibara ry'umweru, inyubako isize ingwa ndetse n'ibicanga, ibyatsi byasigajwe.

Ahakorerwa ubworozi bw'amatungo y'inka za kijyambere, ziri guhabwa umuti, ibiraro byubakishije ibyuma, higanje ibitaka bivanze n'umucanga ndetse n'amabuye, inyubako ziri impande zazo zubakishije amatafari, ndetse n'ibi...

Abavura itungo ryitwa inka ifite ibara ry'umukara, bifashishije ibikoresho bitandukanye birimo umukasi n'ibindi bikata, ibyatsi byasigajwe nayo, bambaye imyenda y'ibara ry'ubururu, umukara, bote...